Kurya imbuto zigiye zitandukanye zirimo ibipapayi avoka indimu ndetse n'izindi bikaba bifasha mu kurinda indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku mirire mibi.

Turi kubona umugore ukikijwe n'umusaruro w'ibigori ndetse turi kubona n'akaboko k'umuntu ufite telefone, ushaka kumenya ukuntu igihembwe cy'ihingwa ry'ibigori cyagenze, bakaba bari ahabugenewe hakusanyirizwa umusaruro w'ibigori ndetse hari n'abandi baturage benshi bazanye umusaruro wabo.